Itsinda ry'abantu bari mu nama umwe muri bo abahagaze imbere ari gutanga ikiganiro, imbere yabo hari mudasobwa projegiteri ndetse n'impapuro.

Umugabo yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ye handitse ihuriro rya kabiri ry'abakozi bo mu Buhinzi n'Ubworozi.

Mu cyumba kigari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari kungurana ibitekerezo. Imbere yabo hari amacupa y'amazi raputopu ndetse n'impapuro.

Mu isoko rwagati, hari abantu baje guhaha, hari imitaka iri mu mabara atandukanye ndetse hari n'umuguzi uri kureba icyo agiye kugura.